Abakaraza baryosha ibirori bavuza ingoma kandi bita kuma babivuza cyane cyane iyo habaye ibirori nk'iyo haje umushyitsi mukuru mu karere, cyangwa se ku maparuwasi bizihije isabukuru runaka, ugasanga bagenda babyina bishimye bityo n'ababireba bareba bakishima nkuko nabo bishima.

Mu bintu byaranze umuco w'abanyarwanda, igikoresho citwa isekururo usanga gikoreshwa kuva kera kugeza na n'ubu, bakagikoresha bashaka amafunguro ndetse ugasanga n'abana bifuza kugikorera.

Umuco nyarwanda. Kuva na kera kugeza na n'ubu, warangwaga no gutabarana. Iyo umurwayi yarwaraga bafataga ingobyi bakamuheka bakamujyana kwa muganga. Iyo yabaga afite umuryango mugari bajyaga basimburana mu ngobyi ari abantu bane, kurinda kugeza igihe bamugejeje ku bitaro by'aho bifuza kumuvuriza.

Inama abayobozi bagira abaturage, zituma barushaho gutera imbere cyane cyane nk'iyo babwiwe ibyo guhinga bahuza ubutaka. Nk'uko tubibona, bahinga: ibigori, ibijumba, ibishimbo, kandi bahuje ubutaka, bityo bikabarinda kwiba imyaka yabo, ikera, ikabateza imbere.